Inama yahuje abantu bagiye batandukanye, harimo abo mu nzego z'umutekano, harimo abapolisi babiri, harimo urubyiruko, harimo abadamu, harimo abagabo, ni inama bigaragara yuko yitabiriwe rwose.

Aha ni ahari habereye inama yahuje abaturage bagiye batandukanye, hari icyapa cyanditseho amagamboga agira ati: "Amahugurwa y'abajyanama n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'Imirenge n'utugari, umuturage ku isonga mu miyoborere."

Inama yari yabereye hano yari iyo gukemu ikibazo cyugarije urubyiruko, abantu bari bahari bari bari kwibaza ngo ese urubyiruko babuze iki? Urubyiruko hari umutekano, urubyiruko ibyo gukora, ni iki kibura kugira ngo biteze imbere?

Abagabo batatu bo mu bihugu biri muri afurika baje mu nama yabereye mu gihugu cy'u Rwanda, abagabo bigaragara y'uko bakomoka muri afurika y'iburengerazuba, bambaye ingofero mu mutwe bigaragara ko abasiramu barishimiye bari kuganira ibitekerezo.

Kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo, uyu mwaka bihaye intego igira iti ubumenyi n'umurimo unoze inkingi y'iterambere, hari abatumirwa bane bafite ibyo bakora kandi babwira abantu imbwirwaruhame nziza.

Uko wakwihindurira umubare w'ibanga ,kuri itaxe yawe ,sura urubuga rwa Rwanda revenu ukande ahanditse kubona umubare w'ibanga mushyashya, ushyiramo numero yawe ya tini, ushyiramo nimero ya telefone byanditswe kuri tini yawe, ubundi ukande sabumeti biraba byabaye.

Uburyo bwo gukora apudeti kuri ibiyumu yawe niba ukoresha laputopu disikitopu cyangwa tabo ikoresha windo, iyimashine yawe kuri interineti kanda inshuro ebyiri kuri porogaramu ya ibiyemewe mu mumashini yawe, reba hasi ibumoso handitse niyo niba umubare uhari utangizwa na cumi na gatanu icyenda gum yawe yamaze kwakira.

Ubu ngubu haje moto nziza cyane, zikoresha amashanyarazi, uragenda bakayigucomekera kuri sitasiyo, ubundi yakuzura umuriro ukayitwara. Akaba ari moto zigezweho cyane, zikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda.

Ipoto ritanga amashanyarazi mu baturage ndetse n'ibigo bikikije umuhanda, kera tukiri abana twari tuzi yuko insinga z'amapoto zikora ku ijuru ariko iyo ukuze ugenda ubona yuko atari kure nkuko ubitekereza.

Imbibi z'ibyuma ziri kwa muganga aha ngaha ni ku bigo nderabuzima, aha ni kuri Kabutare, aha ngaha ni aho umurwayi yicara ategereje muganga kugira ngo amwakire amusuzume indwara afite.

Ejobundi nagiye gusura umurwayi ku bitaro bya kabutare, ibitaro narinzi yuko ko ari ibitaro biciriritse bitabasha kugira imbagukiragutabara, yewe mpageze ndibaza ngo ese mugira imbangukiragutabara barambwira bati" dufite imbagukiragutabaza zigeze mu icumi, icyenda zagiye mu kazi gusa hariya hari imwe iparitse".

Aha ni ku kigonderabuzima cya Butare. Ni Ibitaro by'Akarere ka Huye ndetse hakunda kwakira abarwayi baturutse mu turere dukikije tugiye dutandukanye harimo: Gisagara, Nyaruguru, n'ahandi.

Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda biga ahantu heza pe! Ejo bundi banyeretse inzu bakoreramo ama etide ndavuga ati ngo mbega inzu, aha hantu wahigira ugatsindwa? Ni inzu y'itaje isa neza, bayita ngo KOICA.

Iri ni igororero ryo mu mujyi wa Kigali aho bita i Nyarugenge aha ngaha bahinduza ingorwa, mayibobo, abakoze ibyaha byose bigiye bitandukanye, uhinjira uri umunyabyaha ariko barakugorora ugasohoka wabaye umuntu muzima.

Imodoka y'umukara ikora ibikorwa by'ubwikorezi, ikaba iparitse nta bakiriya yabonye uno munsi. Iyi modoka ikorana na kampani yitwa Agishoni. Ikaba ari kampani ikorera mu Mujyi wa Kigali wabashaka ukabasanga.

Umupolisi yari ahagaze mu muhanda, ari kuyobora imodoka azereka aho zigomba kunyura, umupolisi nari nzi yuko bamugonga, ariko abantu batwara imodoka baba bazi ubwenge, bazi yuko iyo umupolisi ari mu muhanda, aba agomba kubabwira igihe cyo kugendera, bakamwubaha nabo.

Ubundi njyewe namenyereye kwibonera kimyamwoto z'umutuku, ejobundi nagiye kwa muganga mbona kijimyamwoto y'umweru n'iy'umutuku, ndavuga ati ibintu biteye amatsiko, ndafotora ngo nze kubaza mugenzi wanjye abwire nimba koko zino kizimyamwoto yari azizi.

Abayobozi bakora mu nzego z'igihugu, umwe ni Minisitiri w'intebe, undi ni ushinzwe ingabo. Minisitiri w'Intebe bamwita Ngirente Eduard, na ho umuyobozi w'ingabo akaba yitwa Mubaraka Muganga, batuma igihugu cyacu gitera imbere.

Amatora yo muri bibiri na makumyabiri na kane; ni amatora yaciye mu mucyo rwose n'abadamu batwite n'abafite impinja baraje baratora kuko gutora ni itegeko kuri buri munyarwanda; buriwese agira uruhare mu gutora kw'abayobozi biwe.

Amatora yabaye mu w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ni amatora yanyuze mu mucyo rwose, hari haje abantu bashinzwe amatora, kugenzura ibiva mu matora, umwe ni umuzungu undi ni umukuru wa isitafurikani komyuniti barebye y'uko hataba kwibwa kw'amajwi.

Umuhanda uri mu mujyi wa Kigali i Nyabugogo aha ngaha hakaba harimo igikamyo gifite ibara ry'icyatsi, harimo abanyamaguru babiri ndetse n'umunyonzi umwe, igikamyo kikaba cyikoreye imicanga kiyijyanye ahari ibikorwa by'ubwubatsi.

Imodoka ikora ku buryo bwa tagisi bakaba ikorera uruganda yego kabuzi, urabahamagara kuri nimero yabo bakaza bakagutwara bakakugeza aho wifuza aho ari ho hose mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi mu mujyi wa Kigali babaye abakire pe! Uzi ko kera utapfaga kubona umumotari uparitse? Ubu ngubu abamotari bafite ikibazo cy'abakiriya kuko abantu bose biguriye amamodoka. Nageze hano mbaza motari ngo; "Ese ko noneho umaze igihe kingana iki uparitse?" arambwira ati ngo kuva yagera hano mu gitondo ntarabona umukiriya. Abantu barakize.

Umujyi wa kigali babashyiriyeho ahantu abantu bicara bagakoresha interneti ntayo bishyujwe, ni ahantu heza bahita ngo ni imbuga siti woke. Aha urahagera ukiyicarira, ugakoresha internet y'ubuntu warambirwa ugataha.

Iki ni kibuga bakiniramo umukino wa basiketi, umukinnyi atera umupira muri kariya gaseke kari hariya hejuru akaba aratsinze, iki kibuga kikaba kiri mu karere ka Huye, muri kaminuza nkuru y'igihugu.

Icyapa kiramenyesha umuyobozi w'ikinyabiziga yuko ageze aho gukata mu ruhande rw'ibumoso bitemewe, agomba gukomereza imbere cyangwa se agakata iburyo kuko gukata ibumoso byamuviramo icyago agomba kubyirinda.

Icyapa gifite ishusho mpande enye, umuzenguruko ni umukara, ubuso ni ubururu, ikirango ni umweru, cyerekana yuko ahongaho hahagarara amabisi mu buryo bw'igihe kigufi cyangwa kirekire.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko ni umukara, ubuso ni ubururu, ikirango ni mu ibara ry'umweru, kiramenyekanisha y'uko umuyobozi agomba gukomeza imbere, atagomba guca mu zindi nzira.

Icyapa gifite ishusho, mpande enye, umuzenguruko ni umukara, ubuso ni umuhondo, kiramenyesha umuyobozi w'ikinyabiziga yuko uko agiye kugera mu muhanda ufunganye aho imihanda ibiri ihurira, agomba kwitwararika.

Icyapa cy'imuzenguruko w'umutuku, kikaba gifite ubuso bw'umweru, kirangwa n' amabara y'umukara. Kerekana yuko umuyobozi afite gukomeza imbere, ko kuzamuka bitemewe muri uwo muhanda.

Aha ni mu mujyi wa Kigali ahari inzu zikodeshwa. Ni inzu igeretse, ikaba ifite ibirahure, ikaba isize irangi ry'ubururu ndetse n'umweru, ikaba ifite n'amabati y'umutuku. Ni inzu iri ahantu heza, kuri kaburimbo.

Umuhanda aho imodoka ziparika, aha ngaha ni aho imodoka zishobora guparika agahe gatoya zigiye gufata abantu, bakunze kuhita ngo ni kucyapa, aha ngaha urahagarara utegereje bisi ikaza ikagushyiramo mugakomeza.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ukaba uriho amapave, aha ngaha ni mu karere ka Huye ugana kuri sitade, aha ngaha biragaragara yuko uyu muhanda usa neza, abaturage bo mu Mujyi wa Huye bagira isuku.